Ivuriro ridufitiye akamaro, kuko turivuza bakaduha imiti bakurikije uko badupimye ,ubwo rero ni ngombwa gutanga mitiweli, kugira ngo umuntu ashobore kwivuza ,mu gihe yarwaye byabaye ngombwa.

Ibyatsi byinshi, bivamo imiti igirira imibiri yacu akamaro, ntabwo rero kwangiza ibyatsi ari byiza, kuko uba wangirije ibidukikije, kandi bidufitiye akamaro kenshi cyane.

Inyinya ni igihingwa cyiza cyane kuberako bakivanamo n'umuti, iyo zeze barazihekenya cyane cyane abantu barwaye diyabete ndetse na iperitansiyo urabavura, kuko inyinya zigabanya isukari mu mubiri zikaringaniza isukari.

Imiti ya kinyarwanda igirira abaturage akamaro kanini cyane, kubera ko iyo indwara zananiranye mu kizungu nko kwa muganga, barayifashisha kandi ugasanga abaturage barakize, barwaye imigongo yarananiranye haba igihe bikandishije ubwatsi ugasanga ba....

Amasaka ni igihingwa cyiza kirera cyane, iyo wacyitayeho ndetse ukagifumbira, iyo rero ufite ubushobozi bwo kuyahunika mu gihe cyayo, urayagurisha ugasanga ubonyemo amafaranga yo kwikenuza, nko kwishyurira abana amashuri, ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ibyatsi, ibyatsi byinshi biba byiza cyane, hari n'ibyo ubona ukabona wabitaka byavamo indabo nziza cyane, ubwo rero iyo duhinze ibyatsi bitandukanye, usanga bimwe bibaye umutako, kandi ukabona ni indabo nziza cyane.

Ibyo mu ishyamba na byo biba byiza kuko hari ibyo bahirira amatungo, akabirya kandi akamererwa neza cyangwa bikavamo imiti itandukanye. Ubwo rero ibi byatsi nabyo biba byiza cyane iyo ubikoresheje icyabugenewe ubona bikugiriye umumaro.

Imiti, ibyatsi byinshi bivamo imiti. Usanga bifashije abantu, iyo babaroze birabavura bagakira ubuzima bugakomeza. Rero ntabwo dukwiriye kwangiza ibidukikije kuko bivamo imiti itandukanye.

Iki cyatsi ni cyiza, kigira ikijumba gisa n'umutuku, kandi iki cyatsi cyongera amaraso. Beterave yongera amaraso mu mubiri w'umuntu utagiraga amaraso menshi cyane, bamutegeka kujya kwa muganga kujya anywa ji ikozwe muri iki cyatsi, ugasanga bimugaruriye ubuzima.

Igisura ni cyiza cyane kuko abantu bamenye ibyiza byacyo, kuko hari indwara zimwe na zimwe kivura nk'igifu. Kivura no mu nda ndetse n'abantu bagira iperitansiyo na bo baracyivurisha. igisura rero urumva ko kidufitiye akamaro kenshi cyane.

Ubuvuzi gakondo bwahozeho na mbere hose, iyo wumva ibyo urwaye bitavurwa kwa muganga, ujya mu buvuzi gakondo bakagufasha, bakakuvura.

Ibyatsi byinshi bivamo imiti ivura indwara zitandukanye ,ubwo rero Abanyarwanda ba kera barayikoreshaga iyo babaga bashaka kwivuza, iyo byabaga byarananiranye kwa muganga.

iki cyatsi kivagamo umuti, abakecuru ba kera bakundaga kugikoresha, bari kukivurisha indwara zitandukanye zo mu nda mbese, ntabwo bakundaga kwivuriza kwa muganga, kuko babaga bifitiye uburyo bivuzamo, kandi ugasanga umuntu arakize nta kibazo, ni byiza cyane rero.

Ibihingwa bigira umumaro mwinshi cyane, kuko hari ibyatsi bivamo imiti ivura indwara zitandukanye. Ubwo rero, ntabwo abaturage dukwiriye gupfa kwangiriza ibidukikije, kuko na twe bitugirira akamaro.

Ni igihingwa kiba cyiza cyane kuko kigirira abantu akamaro. Uru ni urubuto rwiza ruba mu bintu birinda indwara. Ni byiza cyane rero kugira igiti cya avoka. Iyo ufite abana ukajya ubaha bakaryaho, usanga abana bagize ubuzima bwiza cyane.